Icyumba cy'indembe harimo igitanda cy'abarwayi ndetse n'imashini zifashishwa mu buvuzi gisize irangi ry'umweru ndetse na mudasobwa ku ruhande.

Abagabo bambaye imyenda yo kwa muganga, isa ubururu n'umweru ndetse n'udupfukamunwa, bafite agatanda gatwarwaho abarwayi, hariho umurwayi wambaye imyenda y'umukara, impande hari indabyo ndetse n'ibangukiragutabara.

Umupolisi wambaye ingofero n'ikote ahagaritse imodoka isa umweru ari kuvugana n'umushoferi, impande hari ubusitani bw'indabo ndetse n'imikindo.

Imodoka y'umweru yanditseho n'amagambo asa ubururu, impanda yayo hari abagabo babiri bambaye udupfukamunwa bateruye ikarito mu ntoki, inyuma yabo hari inyubako ndetse n'ibiti.

Abantu bicaye ku ntebe z'umweru bambaye amajire y'umutuku n'umweru, imbere yabo hari ameza arambitseho igitambaro cy'ubururu, ateretseho terefone, ikayi n'ikaramu n'amacupa y'amazi yo kunywa.

Abantu benshi bari hamwe bakoze uruziga, bambaye amajire y'umutuku arimo ikimenyetso cy'umusaraba mu mugongo, bigaragaza umuryango utabara imbabare, bari kuganira mu cyumba cyometseho impapuro ku nkuta.

Abantu bambaye amajire y'umutuku agaragaza umuryango utabara imbabare, bari gutanga ibikoresho byifashisha, bari kubihereza umuturage w'umubyeyi wambaye ibitenge, mu nyubako isakaza amabati inyuma haparitse imodoka.

Abantu benshi biganjemo igitsina gabo bamwe bari gukata ibyondo bahereza abubaka inzu y'amatafari iriho ibiti. Impande hari izindi zisakaje amabati y'umutuku.

Icyumba kinini gisize irange ry'umuhondo harimo intebe z'icyatsi n'meza ndetse n'ibitanda byo kuvuriraho abarwayi, amavarizi atatu ndetse n'amakayi n'ikaramu birambitse ku meza.

Ibitaro birimo ibitanda biriho abarwayi ndetse bimanitsemo inzitiramibu. Hari n'akagare k'abafite ubumuga n'umuntu kicayemo.

Umugore witeze igitambaro yambaye umupira akenyeye igitenge, ateruye uruhinja mu bigoma bisa ubururu, yicaye ku gitanda kwa muganga mo imbere mu nzu.

Abantu bicaye ku kumurongo , bafite amafishi baje kwivuza ,bahagaze imbere y'ibitaro.

Icyumba cy'abarwayi kwa muganga gisize irangi ry'ubururu kirimo ibitanda bishasheho matora n'amashoka y'icyatsi gifite amadirishya menshi.

Kwa muganga hari ababyeyi b'abagore n'umwana ufite telefoni mu ntoki. Bari guhabwa ubujyanama bafite udutabo mu ntoki. Bicaye ku ntebe z'ubururu ndetse n'umuryango urafunguwe.

Abantu benshi bicaye mu matsinda atandukanye imbere yabo hari ameza bamwe bari kwandika bafite ibitabo n'amakaramu bari kubazanya ibyo bandika.

Kwa muganga ababyeyi bazanye gukingiza abana, hari uwo bari guha ikinini. Bafite amafishi yo gukingirizaho, inyuma hari inyubako.

Icyumba gisize irangi ry'umuhondo hahagazemo abagabo batatu, imbere yabo hari ameza iruhande intebe ndetse n'imashini zifashishwa mu gusuzuma abarwayi.

Umubyeyi w'umugore uryamishije umwana we w'agahinja, baryamye kuri matora ishasheho amashuka, y'ubururu, ndetse hamanuye n'inzitiramibu.

Ikigo nderabuzima cyubakishije amatafari ahiye, gisakaje amabati. Hanze yacyo hari ubusitani bw'indabyo ndetse n'ibiti.

Abajyanama b'ubuzima bari ahantu hamwe bicaye bambaye amataburiya asa ubururu, bicaye ku ntebe z'umweru. Abagore bafite amasakoshi ku ruhande hasi. Bari ahantu hatatse ibitambaro by'umuhondo, ubururu n'icyatsi.

Abantu bahagaze mu kabuga karimo ibyatsi, impande indabo, bafite mudasobwa mu ntoki n'ibikarito bibari imbere, inyuma yabo hari inzu yubakishije amatafari ahiye.

Inzu yubakishije amatafari ahiye, isakaje amabati asa ubururu, isize irangi ry'umweru ku nzugi, impande hari ikigega gifata amazi ndetse n'indabyo n'abantu bahicaye.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru, ari gupima umurwayi ku kaboko afashe telefone mu ntoki. Impande hari umugore ufite ikayi n'ikaramu ari kwandika. Inyuma yabo hari indabo.

Mu bitaro umwana wicaye ku gitanda, afite terefone, ari guseka ari kumwe n'umubyeyi we, uri kumureba, inyuma yabo hari amadirishya ndetse icyumba gisize irangi ry'umweru.

Ibitaro bisize irangi ry'umweru n'umuhondo bifite inzugi nyinshi zifunguye zometseho ibipapuro, impande hicaye abarwayi benshi ku ntebe ndetse hari kizimyamwoto.

Umuganga wambaye agapfukamunwa n'itaburiya y'umweru, ari kureba muri mikorosikopi yicaye ku ntebe impande ku gikuta hamanitse impapuro n'idirishya rirafunguye.

Abanyeshuri barimo laboratwari, bambaye amataburiya y'umweru asa, mu cyumba cyubakishije amatafari ahiye, hejuru harimo parafo.

Abanyeshuri benshi bambaye amatabriya asa y'umweru, imbere yabo harambitse amakayi n'amakaramu ndetse n'impapuro zo kwandikaho.

abaganga batatu bambaye amatab y'umweru, bahagaze muri laburatwari isize irangi ry'umuhondo, ifite n'amadirishya abiri y'ibirahure.

Umuganga wambaye taburiya y'umweru na ga mu ntoki ari gufata ikizami cy'amaraso, umugore urwaye wambaye ibitenge inyuma yaho hari urugi rufunze.

Abana batoya bari mu kigero k'imyaka itanu bambaye impuzankano zisa. Bicaye ku ntebe zisize irangi ry'icyatsi n'ubururu. Imbere yabo hahagaze ababyeyi bafite amasahane ariho ibiryo.

Akarima k'igikoni gahinzemo imboga rwatsi, kazitije n'uduti ndetse n'imifuka y'umweru, iruhande hari ishyamba ry'ibiti.

Abantu bicaye ku ntebe z'umweru bambaye imipira y'icyatsi n'amapantaro y'umukara harimo n'abasirikare inyuma yabo hari ibiti.

Abantu benshi bari ku ruziga bambaye imipira isa icyatsi, mu mugongo handikishijemo n'amagambo y'umweru.

Abagore bicaye ku ntebe z'ibiti bambaye agapfukamunwa bakenyeye n'ibitenge, umwe ahetse umwana undi afite isakoshi mu ntoki, bari mu nzu isize irange ry'umuhondo n'umweru.

Abana bicaye ku mukeka bambaye amashati y'umuhondo n'udukabutura tw'icyatsi, bafite ibyatsi mu ntoki bari kunywa amata, imbere yabo hicaye abantu bakuru.

Umubyeyi wambaye ingofero y'ubururu n' numupira afite icyansi kirimo amata ari guhereza umwana wambaye ishati y'ubururu mu irerero icyumba kirimo ibipapuro bimanitse.

Isafuriya iteretse irimo ibintu byo kurya by'amoko atandukanye, impande hari agasima kicayeho abagore babiri bakenyeye ibitenge by'icyatsi.

Abana benshi bazamuye amaboko bambaye impuzankano zisa amashati y'mweru n'amakabutura ya kaki bahetse ibikapu m'umugongo. Impande hari ameza n'intebe bicaraho, imbere hari akabati n'ikibaho.

Ababyeyi bari kumwe n'abana babo, bamwe babateruye abandib, icaye hasi, barikuha igikoma kiri mu dukombe tw'icyatsi, ubururu ndetse n'iroza.

Umugore usutse yambaye amadarubindi n'ibitenge bisa icyatsi, ahagararanye n'umugabo wambaye ishati, bari imbere y'inzu isize irange ry'umweru yubakishije amatafari ahiye.

Abana benshi bicaye ku mukeka hasi bafite amasahane ari mu mabara y'ubururu n'umutuku n'umweru ariho ibiryo, bari kurya ndetse n'abandi bantu bakuru bahagaze bari kubareba, impande hari ibiti.

Kwa muganga mu bitaro hari abarwayi baryamye ku bitanda biyoroshe ibiringiti by'umutuku no hejuru hamanitse inzitiramibu.

Abaturage benshi bari ahantu hamwe bamwe bitwikiye imitaka hari n'abandi bateruye umwana barwaye bafite n'icupa ry'amazi mu ntoki, inyuma yabo hari ibiti byinshi n'amazu.

Abantu benshi bicaye ku ntebe, imbere hari ameza, bafite impapuro mu ntoki, bahagaze mu gisharagati, impande haparitse imodoka, hari indabo n'amazu yo guturamo.

Abantu bahagaze impande y'icyapa gisa umweru gisize irangi ry'icyatsi ndetse handitsemo n'amagambo y'ikinyarwanda.

Abantu benshi bicaye ku ntebe, imbere yabo hateretse, amacupa arimo amazi yo kunywa, afite n'amakayi, bari kwandika. Bari mu nzu isize irange ry'umuhondo.

Abakobwa ndetse n'ababikira, inyuma yabo hahagaze abagabo, hari inzu ifite idirishya ndetse n'indabyo n'ibihuru.

Umugore uhagaze wambaye ibitenge afite indangururamajwi mu ntoki ari gutambutsa imbwirwaruhame, Imbere ye hicaye abantu benshi, hari n'ameza ariho igitambaro cy'umweru.

Abantu benshi bahagaze bambaye imipira y'umweru, imbere yabo hari akana n'undi ufite mikoro uri kuvuga, inyuma hari ubusitani bw'indabyo n'inzu yubakishije amatafari ahiye.

Inzu ebyiri zubakishije amatafari ahiye, ziriho inzugi zisize irange ry'umweru, zisakaje amabati. Hariho icyapa gisize irangi ry'ubururu ndetse impande hari ubusitani bw'indabyo.

Abarwayi baje kwivuza bategereje muganga, harimo abagabo, abagore ndetse n'umubyeyi uri konsa umwana. Hari undi ufite amakayi bicaye mu nzu yubakishije amatafari ahiye.

Inzu yubakishije amatafari ahiye isakaje amabati ashaje handitseho ka ari ibiro by'akagari, imbere yayo haparitse imodoka ndetse hicaye abantu ku ntebe z'umweru, imbere hari umugore ufite indangururamajwi ari kubabwira ikintu.

Abanyeshuri bambaye impuzankano zisa, imipira y'icyatsi n'amapantaro ya kaki, barahagaze imbere yabo hari intebe iriho impapuro ndetse inyuma hari ishyamba.

Abagabo n'abagore bicaye bambaye imipira y'umutuku n'umweru n'ingofero mu mutwe, imbere yabo hari ameza iteretseho amaji yo kunywa.

Umugore ufite isakoshi mu ntoki wambaye ibitenge biri mumabara y'umutuku n'umuhondo, ahagaze imbere y'ibitaro, byometseho impapuro ku bikuta.

Inyubako ishushanyijeho abantu ndetse n'ibimera; bavura abantu imbere hateretse intebe ndetse hari n'ibiti ku ruhande.

Ububiko bwimiti buri mu gatajeri gasize irangi ryumweru, ipakiye mu dukarito tw'amabara y'umuhondo, umutuku, icyatsi, move ndetse n'umweru.

Inzu y'ububiko bw'imiti, iri mu tubati dusize irangi ry'umweru, imwe iri mu ducupa, indi mu dukarito tw'amabara atandukanye.

Ububiko bw'imiti bupakiye mu tuntu dutandukanye, uducupa n'udukarito tw'amabara menshi, umweru, icyatsi, umuhondo, umutuku, move ndetse n'umukara.

Imiryango ibiri isize irangi ry'icyatsi, umwe urafunguye undi urafunze. Ugaragaza ibyumba bicururizwamo imiti ari yo farumasi. Inyubako isize irangi ry'umweru.

Imodoka y'ikigo k'igihugu gishinzwe ubugenzacyaha iparitse mbere ya farumasi ifunguye imiryango. Hejuru hariho icyapa k'icyatsi kiyigaragaza n'umuntu uri imbere uri gutambuka.

Utubati turimo imiti y'ubwoko butandukanye, imwe iri mu ducupa, andi mu dukarito handitseho mu mabara atandukanye umweru, umuhondo, umutuku n'andi.

Imiti y'ubwoko butandukanye, iri mu ducupa tw'umweru indi mu dukarito, turiho amabara atandukanye umutuku, ubururu, icyatsi umuhondo n'umukara biteretse ku meza.

Inzu y'ubucuruzi bw'imiti. Impande hahagaze umugabo wambaye umupira w'umweru. Haparitse n'amapikipiki ndetse hariho icyapa gisize irangi ry'umweru cyanditse mu nyuguti z'icyatsi amagambo y'icyongereza.

Umugore ufite ibisuko wambaye itaburiya y'umweru afashe mu miti hejuru imanitse mu kabati, harimo imiti y'amoko atandukanye iri mu dukarito udusa icyatsi, umuhondo, umutuku n'andi.

Iduka ricuruza imiti risize irangi ry'umweru harimo utubati turimo imiti y'amoko atandukanye irimo uducupa mu dukarito impande hari intebe.

Inyubako, y'ububiko bw'imiti, ifunguye imiryango isize irangi ry'umweru imbere hari intebe, ndetse n'urukarabiro.

Ibyumba by'ubucuruzi bifunguye, imiryango. Bisize irangi ry'umweru, hejuru hari icyapa kisi, k'icyatsi cyanditseho mu magambo y'umukara.

Abantu bambaye imipira isa, bahagaze bishimye barambuye amaboko, imbere yabo hari ameza ateretseho icupa ry'amazi, igikombe ndetse n'amakaye.

Abantu bari gukata umutako basa nk'aho ari igikorwa batashye bwa mbere bambaye imipira isa y'icyatsi inyuma yabo hahagaze n'umusirikare.

Abantu benshi biganjemo igitsina gabo, bicaye ku ntebe z'icyatsi, imbere yabo hari ameza, ateretseho igikapu n'icupa, inyuma hari ibipapuro, byamamaza.

Abantu bambaye imipira y'umweru, yanditsemo n'inyuguti mu ibara ry'umukara. Bicaye ku ntebe mu nzu nini ifunguye imiryango, ifite n'amadirishya.

Abakobwa babiri bicaye imbere y'icyapa bambaye imipira isa ya oranje n'amapantaro. Bari kwifotoza umwe afite ikayi n'ikaramu mu ntoki.

Inzu ebyiri zisize irangi ry'ubururu, zisakaje amabati, imbere hari intebe zicayeho abantu bambaye udupfukamunwa ndetse n'indabyo n'igiti, gihari.

Umuhanda w'igitaka impanda yawo hari indabo ndetse n'inzu isize irange ry'ubururu isakaza amabati, imbere yayo hahagaze abantu benshi cyane.

Abantu benshi bicaye ku ntebe mu cyumba kinini gisize irange ry'umuhondo, umugabo umwe uhagaze imbere yabo ashikamiye ameza ateretseho firitiri.

Abagabo babiri bateruye umurasire w'izuba mu ntoki, inyuma yaho hari inzu isize amarange y'ubururu, imbere hateretse ubukarabiro isakaje amabati, impande hari ikigega gifata amazi ndetse n'urutoki.

Abarwayi benshi bicaye kwa muganga bari mu cyumba gisize irange ry'umuhondo, ku nkuta hometseho impapuro, imiryango irafunguye.

Umuganga uhagaze wambaye itaburiya y'umweru afite ikayi mu ntoki, impande hari undi wicaye imbere ye ku meza hari mudasobwa n'abarwayi ku ruhande.

Abaganga bahagaze ku murongo, bamwe bafite amakaye mu ntoki, inyuma yabo hari inzu isize irangi ry'ubururu, iriho icyapa cyanditseho amagambo ndetse n'ibiti inyuma.

Abagabo babiri bafite umurasire w'izuba mu ntoki, inyuma yabo hari inyubako isize irangi ry'ubururu isakaje n'amabati, iruhande hateretse ikigega gifata amazi ndetse n'insina.

Umugore urwaye uhetse umwana, afite isakoshi mu ntoki ari kumwe na muganga uri kumwandikira imiti, imbere ye hateretse igikombe n'amakaye.

Inzu isize irangi ry'ubururu, isakaje amabati, ifite amadirishya ni'inzugi, imbere hari intebe zicayeho abantu, ndetse n'ubukarabiro bubiri imbere yayo.